Mu bitaro ahagaragara ibikoresho bikoreshwa, hari umuforomo cyangwa umuganga wambaye umwenda w'akazi uri mu ibara ry'icyatsi kijimye n'agapfukamunwa kari mu ibara ry'ubururu.

Umwana urimo kunywera amazi ku ivomero rusange, yateze intoki, amazi arimo ayanywera mu kiganza cyiwe, amucika agwa mu ndobo yateze hasi, nayo yuzuye.

Ikigo mpuzamahanga gishinzwe ubuzima, uburezi, imirire myiza, n'amazi meza, n'isuku ku bana.

Abakobwa bane n'umusore umwe, bambaye imipira y'ubururu bifotoreje imbere y'ikirango cy'umuryango mpuzamahanga ushinzwe, uburenganzira, uburezi, imibereho myiza y'abana.

Umwana urimo kuvomera mu kidomoro mu mazi magari, wambaye ikabutura irimo amabara icyatsi n'umuhondo n'ubururu, n'isengeri irimo amabara ya oranje, umutuku.

Abana babiri bari kwivomera rusange, umwe yambaye umupira w'ubururu ateruye indobo y'umweru mu ntoki, undi ari kuvomera na we mu ndobo y'umweru, yambaye umupira w'umweru, urimo imirongo itambika, ifite ibara ry'ivu.

Umusaza wambaye umupira w'icyatsi cyijimye n'ishati ya oranje, ufashe ku rutugu umukobwa urimo guseka, wambaye umupira w'umweru, urimo imirongo itambika y'umukara n'ikote ry'ubururu n'amadarubindi.

Umugore wambaye ikanzu ya oranje, ateze igitambaro cy'umukara wambaye n'amadarubindi, wicaye mu kagare kabana n'ubumuga bwo kutagenda, uhobewe uturutse inyuma n'umukobwa ufite imisatsi y'umukara, wambaye imyenda y'ubururu barebana mu maso barimo guseka.

Inzu igeretse gatatu ifite amabara y'umweru, ibara y'umuhondo wijimye n'ibirahure byinshi, imbere ku gipangu hari imodoka irimo gusohoka, iruhande rumwe hicaye umugabo wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umweru, ku rundi ruhande hariho icyapa.

Mu bubiko bw'imiti igiye itandukanye, harimo ingeri zitandukanye, kuva hasi kugera hejuru, mu byiciro bigiye bitandukanye, buri cyiciro kigiye gifite amazina imbere ya buri muti.

Inama yahuje abagabo n'abagore, abakecuru n'abasaza mu cyumweru cyahariwe kurwanya ihohoterwa rikorerwa abageze mu zabukuru, imbere yabo hari abagabo batatu barimo kubagezaho imbwirwaruhame, umwe ahagaze urimo gutanga ijambo wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, babiri abandi baricaye umwe yambaye ishati y'umweru nipantaro y'umukara undi yambaye ipantaro y'umukara, ishati y'ubururu n'ikote ry'umukara.

Mu bitaro aho abarwayi barwarira, bahawe igitanda, harimo ibitanda bine bibiri biryamyeho abadamu babiri, buri gitanda gifite inzitiramubu, muri iki cyumba buri dirishya rifite amarido ari mu ibara ry'umuhondo.

Iduka ricuruza amataratara cyangwa amarinete, hari igice cyo hejuru inyuma y'ikirahure harimo amataratara y'ingano zitandukanye, munsi harimo ifoto iriho umukobwa w'imisatsi miremire wambaye amataratara.

Inzu ifite inkingi enye, mu ibara harimo intebe eshatu z'umutuku, imbere hari icyapa kigaragaza ko ari mu kigo cya Ndera, gishinzwe kwita ku mabara n'ubumuga bwo mu mutwe.

Umugore wicaye uri muri siporo, wambaye imyambaro iri mu ibara ry'umutuku wijimye yahinnye amaguru afashe munsi y'ibirenge n'amaboko yombi, inyuma ye hari intebe zo kwicaraho ziri mu ibara ry'umukara n'indi mu ibara ry'igitaka.

Umusore cyangwa umugabo wambaye agapira kari mu ibara ry'ivu, urimo kunywera amazi mu icupa, rifiteho amabara asa n'ubururu, yambaye n'isume mu ijosi iri mu ibara ry'umweru.

Uyu ni umugabo cyangwa umusore utari inzobe, utari n'igikara cyane w'imibiri yombi, arimo kunywa amazi akoresheje icupa, yambaye umupira w'ubururu ndetse n'urunigi cyangwa se umukufi mu ijosi.

Uyu ni umukobwa cyangwa umugore, yambaye ipantaro y'ubururu n'isengeri y'icyatsi. Ari muri siporo yazamuye akaguru k'ibumoso agasubiza inyuma agafatisha akaboko k'ibumoso, mu gihe akaboko k'iburyo ko yakerekeje imbere.

Imiti gakondo igiye itandukanye iri mu macupa agiye atandukanye, iri mu kabati kagizwe n'ibyiciro bibiri, icyiciro cya mbere kirapakiye n'icya kabiri ndetse n'indi miti iri hejuru, inyuma y'aka kabati hari umugore uri kureba muri telefone wambaye imyenda y'umweru.